Umuhanda upavumye imodoka y'amasiganwa yanditseho bipiyara hariho amarange atandukanye ay'umuhondo n'ay'ubururu, hejuru hari abantu bashungeye bari kuyireba hari umukindo ku muhanda ruguru hari inzu nini iriho amarange y'umweru ku muhanda hari ubusitani n'ibiti binini.

Abagore babiri n'abagabo bafashe ku cyapa cya mande enye cyanditseho Sunlam Rwanda, bahagaze hejuru kuri podiyumu hari tapi y'umutuku inyuma hari intebe zihateye.

Urubuga rwanditseho duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi, twandikire kuri Whatsapp zeru karindwi, umunani, umunani, itatu rimwe, itatu karindwi, itanu gatandatu, harimo amatelefone.

Urubuga rwa burayitoni handitseho ramba na burayitoni ese waruzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza ubuhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye ibigo bito ibigo by'imari sako n'amakoperative ibigo bya leta ibigo by'amashuri ibigo by'abihayimana.

Inzu nini ya etaje, iriho icyapa cyanditseho ariyanza, hashushanyijeho uruzeru n'ubukoni butatu butareshya, icyo cyapa gifite irangi ry'ubururu, munsi hari ikindi cyapa gihari cya.

Urubuga rwa banki ovu Kugali rwanditsemo welicamu baki Jean Paul kalenti akawunti homu akawunti tiransifa payi kadi.

Ibipupe byamamaza bambitse imyenda, harimo ibyambaye ikanzu itukura n'ikindi cyambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, inyuma hari inzu iriho icyapa cyanditseho Tarasiti kompiyuta.

Inzu nini irimo imitako bagurisha, hari ameza hariho ubusaro bwinshi n'ubukomo bambara mu ntoki, hirya hari andi meza ariho igitambaro gitukura, hari ibishushanyo bigiye bitandukanye hariho iby'imbwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hejuru hari n'ibindi bihagiye bihamanika.

Umukobwa uri gucuruza, wambaye agapira k'umuhondo, itaburiye y'umukara, afashe imashini ndetse na terefone mu ntoki, ari gucuruza inyanya, zirambitse hejuru y'ibitunguru.

Ahantu hari imyenda, imipira imanitse, harimo imipira itukura, iy'ubururu ndetse n'uw'umukara, imanitse ahantu ku rukuta hari ibaraza ry'umukara, hakaba n'ibaraza ry'umweru.

Udusaro twinshi tuboshye turimo amoko ajyiye atandukanye. Harimo icyatsi, ubururu, n'umweru, umuhondo, umutuku. N'andi masaro ajyiye atandukanye, arambitse ahantu ku kintu kiboshye.

Inzu y'ubucuruzi yateye amabara y'umweru ku rukuta hariho amabara y'umutuku hasi hari ibipupe byamamaza byambaye amakanzu, ibyambaye amakote biri mu nzu.

Iduka ry'imyenda, harimo inkingi ziteye irange ry'umweru, harimo n'ibitara binini cyane, imyenda imanitse kuri hangari, harimo amashati y'abagore n'amakanzu y'abagore, hirya harimo firigo.

Abakobwa bari mu iduka ricuruza imyenda, harimo umwe ufashe imyenda mu ntoki, hari n'indi myenda imanitse hejuru mu dutajeri, hari n'indi imanitse kuri hanga, hirya hari akandi gatajeri k'umweru.

Imyenda harimo amakanzu y'umweru n'amakanzu y'umukara, amanitse ku tuntu bamanikaho imyenda, hepfo hari igikapu cy'umukara, hirya hari akameza kariho ibyombo, hariho itasi nini, ndetse n'andi matasi matoya.

Iduka ry'imyenda hamanitsemo imyenda myinshi n'ingofero, harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umutuku, afite isakoshi y'umweru mu bitugu, afite ikote mu ntoki agiye kugura.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo inyanya zirambitse ku kintu cyubakishije imbaho, harimo ibitunguru, harimo umukobwa wambaye itaburiya y'umukara, yambaye umupira w'umuhondo.

Iduka ry'imyenda abantu babiri umukiriya n'umucuruzi, umucuruzi afite imashini, umukiriya afite imyenda bari kuvugana ibiciro bari hafi y'ameza.

Abazungu n'abirabura, abirabura bafashe utubogisi tw'umutuku, bahagaze ahantu hari ibipirizo by'umutuku, iby'umweru n'iby'umukara, inyuma yaho hari imodoka yanditseho mahindra, isa n'umweru.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga nini irimo amapave afite icyapa cy'akagera motezi umwe yambaye inkweto za masaye zifunguye undi yambaye inkweto zifunze, inyuma yabo hari imodoka iteye amarangi y'umweru ya hoho.

Umugabo w'umwirabura ufashe ku cyapa cyanditseho Akagira motors, n'umugore w'umuzungu, inyuma hari undi muzungu. Umugabo wambaye umupira utukura uteruye umwana w'umuhungu wambaye ingofero. Inyuma yaho hari imodoka iteye irangi ry'umukara. Hirya hari ikizu kinini cyanditseho Akagera motors.

Abagabo babiri harimo uwambaye ishati y'amaboko maremare, n'uwambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi bafite icyapa cyanditseho akagera moto inyuma yabo hari ikimodoka kinini cya rukururana giteye irangi ry'ubururu.

Imodoka yumukara iparitse ahantu hapavumye inyuma hari urukuta hari ibyuma bizitiye hirya hari agashyamba imodoka iriho icyapa cyanitseho kigali kari mariketi y'umukara.

Ikizu kinini kiriho icyapa cya Hyundai Savisi, mo imbere harimo imodoka y'umweru n'iy'umukara n'iy'umutuku, hanze hari jaride nini cyane bateyemo n'igiti; hafi yaho hari ipoto y'amashanyarazi.

Imodoka ziparitse ahantu hari amapave, imodoka z'umukara zifite ikirango cya Toyota, hirya hari indi imodoka kinini cyihaparitse, gifite irangi ry'umweru, hejuru hari urukuta runini cyane rwubakishije burokesima.

Imodoka nyinshi z'umweru, ziparitse ahantu hari abagabo babiri bahagaze, harimo uwambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abagabo batatu harimo abazungu, babiri bambaye imipira y'imyeru n'umwirabura umwe wambaye ishati y'amaboko maremare, bafashe ku cyapa cyanditseho akagera motasi hepfo hari imodoka ya fuso iteye irangi ry'umweru.

Imodoka ya toyota yanditseho kigali carisi maketi ifite irangi ry'umukara icanye amatara iparitse muri kaburimbo hejuru yanditseho na 2018 toyota revimi hayiburii foruse purayisi 13 miriyoni.

Abagabo babiri bafashe icyapa cyanditseho Akagera motozi, umuzungu urimo afite n'akabage mu ntoki gasa n'umutuku, kariho ibirango by'Akagera harimo umwirabura wambaye ishati ijya gusa n'umutuku, ipantaro y'umukara haparitse imodoka imbere yabo.

Imodoka iteye irangi ry'umweru, itarimo umugenzi yanditseho kigali carisi maketi. Iparitse ahantu muri kaburimbo hepfo hari indi modoka y'umukara, hafi yaho hari ibiti binini cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo hari jaride irimo ubusitani, hari ipoto y'amashanyarazi, hari insinga nyinshi, urupangu runini, mu imbere mu gipangu harimo imodoka z'umweru, ku muhanda hari icyapa kinini gishinzwe cy'ibyuma bibiri, amarangi yu'bururu handitseho Yundayi.

Imodoka iparitse mu muhanda wa kaburimbo, iteye irange ry'umweru, iriho ikirango cya Yundayi Takisoni , ibihumbi bibiri na cumi kuri cumi n'ebyiri miliyoni.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umweru, agapfukamunwa k'umukara, ahagaze imbere y'imodoka y'umweru iteye amarange y'umweru ya Yundayi, hepfo hati indi modoka iteye amarange y'umukara.

Umugore wicaye mu biro, yambaye ikote ry'umukara, afite imisatsi miremire, imbere hari irange ry'ubururu, inyuma hari irange ry'umweru, mo imbere harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, hejuru handitseho teyira.

Muri saro harimo imashini, ibara amafaranga, iteretse ku meza. Amafaranga kume ateretse ku meza umuntu, uri kubara ya mafaranga.

Inote ya bitanu yanditseho Banki nkuru y'u Rwanda, hariho xx zeru karindwi gatatu gatanu icyenda rimwe karindwi, hashushanyijeho ingagi, hasi handitseho amafaranga ibihumbi bitanu.

Ibiganza by'umuntu, biriho inzara zisizeho n'amahina, umuntu yambaye isaha, biri kubara inote z'amadorari nyinshi ndetse n'inote nyinshi z'amayero, imbere ye hari akamashini.

Igiceri kinini gishushanyijeho igitoki, handitseho banki nasiyinari do Rwanda, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi.

Ikiganza gifashe seriviyate mu ntoki gifite n'umugati, hirya hari agasahani, haruguru hari intebe y'ubururu, hirya hari intebe y'ubururu hari n'urugi rw'ibara ry'icyatsi.

Indobo ebyiri z'umweru ziteretse ku meza, iriho ikaramu harimo amandazi, hirya hari ikizu kinini giteye amarangi y'ubururu, hepfo hari ahantu hapavomye hari amakaro.

Agatajeri yateye irangi ry'umweru, karimo ji zamoko atandukanye harimo: amacupa manini n'amatoya y'amazi, harimo ji z'inyange harimo mirinda na Tuwisite.

Umwana w'umukobwa, yishingikirije ku meza, yambaye umupira ujya gusa n'umukara, afite ibisuko ku mutwe, ari kureba hepfo hari ibiganza by'umuntu, arimo kuza, inzu yabo irimo amakararo.

Ahantu handitse welikamu tu Emutiyeni momo, rimwe handitseho sendi mani kabiri handitse peyi bilizi andi savisi gatatu yanditse bayi eyatayimu oru bando kane handitse momopeyi gatanu handitse banke operashoni gatanatu handitse roni karindwi handitse mayi akawunti umunani handitse helupe icyenda handitse poromo.

Urubuga ruriho umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, afite telefone mu ntoki, handitseho diri akanyenyeri ijana na mirongo itatu gatanu, akanyenyeri umunani, urwego hariho ibirango bya MTN momo foromu MTN.

Ikiganza cy'umuntu gifashe telefone mu ntoki, handitsemo sendi mani, handitsemo rekavari peyidi, hirya handitseho momo iti, hino handitseho joyini momo foromu emutiyene.

webusayiti yanditseho wivu sipayini poze solushoni, manajingi bizinesi izi burezi, yashushanyijeho umuntu w'umusore wambaye itaburiya hariho n'ikiganza gifashe telefoni mu ntoki ya simatifone.

Ibiganza bibiri bifashe inote nyinshi cyane, harimo ijana y'amadolari ashushanyijeho umuntu w'umusaza, hirya hari urukuta runini cyane.

Ibiganza by'umuntu bifashe inoti nyinshi biri kuzibara, hari n'izindi noti nyinshi iza magana atanu, iz'ijana zigiye zifunze zikoresheje utugozi bita fimbo, inyuma hari inoti nyinshi cyane zigiye zifungafunga.

Inote ebyiri harimo imwe yanditseho igihumbi hashanyijeho umuntu handitseho bake nkuru ya Tanzania, hari n'indi note yanditseho bake ofu Tanzania hariho inote ane rimwe n'amazeru atatu, hirya hashushanyijeho inzu igeretse ya etaje.

Inote nyinshi z'amadolari z'ijana ashushanyijeho umuntu ufite imisatsi, inote ni nyinshi cyane hariho n'igiceri kuri iyo note, handitseho amafaranga ijana.

Ibiceri byinshi birambitse ku meza hari inote ijana hakaba n'indi note y'igihumbi zirambitse ku meza, hari ibindi biceri byinshi biharambitse bigiye bitandukanye by'ubwoko butandukanye.

Imashini irimo kubara amafaranga menshi y'amadolari, hari umuntu uri gukoresha telefoni hasi hari ameza, uwo muntu arambitseho terefoni n'imashini irambitseho isa n'umweru.

Ibiganza by'abantu biri guhererekanya amafaranga, umwe afite inoti nyinshi z'igihumbi za central bank of Nigeria undi nawe afite inoti nyinshi z'ijana za z'amadorari,

Inoti zirambitse ahantu ku meza, harimo inoti ya makumyabiri hari n'ibiceri byinshi by'ubwoko butandukanye, hari ibirunze ahantu hamwe bigiye bigerekeranye, hepfo hari kebodi y'imashini.

Ikiganza cy'umuntu gifashe inote z'amayero zitandukanye, harimo iya mirongo itanu, iy'ijana, iza makumyabiri eshatu ndetse ku iyero rya mirongo itanu hashushanyijeho inzu.

Umugabo urimo kubara inote nyinshi cyane zirambitse ahantu, zirimo imizingo itatu n'izindi afite mu ntoki, hirya hari abandi bagabo bicaye, harimo uwambaye imyenda y'umweru, hakaba n'undi wambaye ikoboyi ndetse n'umupira w'umukara bicaye begamiye ku rukuta.

Inzu ya etaje nini hariho kuri foro yo hasi, hariho icyapa cyanditse foregisi biro Ineza, telefone zeru kanyendwi umunani umunani itandatu gatandatu itanu gatanu irindwi umunani.

Inzu nini yanditseho Western Union money transfer, muri kaburimbo harimo imodoka iteye irangi ry'umutuku, hirya hari akazu gacuruza ama inite, hari umuntu uhahagaze yambaye ishati y'umweru uhetse igikapu. Hari undi mukobwa uri kugenda mu muhanda.

Inzu y'ubucuruzi nini yanditseho Pasiifike folekisi bilo Ltd, yuwa karenti tiredingi, harimo umugabo uri kwinjira yambaye ipantaro y'umukara n'umweru ndetse n'umupira w'umukara.

Intebe za salo zisa nk'umuhondo hari imisego y'umutuku, ameza ariho agasahani hariho n'umusego w'indi ntebe hari ivaze iteretse, irimo ururabo hari televiziyo imanitse.

Mu bikoresho byo mu nzu harimo intebe za salo, hari ameza matoya n'andi meza manini, intebe zifite ishusho y'umukara, harimo n'imisego y'ibitambaro by'umweru, inyuma hari izindi mbaho ziharambitse.

Muri saro harimo intebe hakabamo n'ameza maremare, hakabamo n'indi ntebe kuru rundi ruhande ku nkuta hari amarangi y'umweru hepfo hari amarido ku madirishya hariho amatafari yubakishije ku nkuta.

Ameza manini, hari n'intebe nini by'imbaho, hari igipangu kinini, hafi hari jaride, imbere hari inkingi ebyiri, zifashe amabati, hirya hari ikindi gipangu kinini.

Igitanda cyo kuryamaho gishasheho amashuka y'umweru hariho n'imisego y'umweru hino hari akameza ruguru harihoho amarido y'umweru azengurutse ku idirishya

Muri saro harimo intebe ebyiri zose zisa n'umutuku, urukuta rw'umweru hariho amadirishya atatu, rimwe yyose asa n'umukara, ku rundi rukuta rw'amapave harimo idirishya.

Imbaho nyinshi zirambitse ahantu hari umuntu wicaye hepfo hari ibyatsi, utwatsi dukeya duteyeye hakurya hari urukuta rwubatse hari n'ibiti byinshi by'ishyamba.

Agatageri kateye amarangi y'umuhondo, harimo utubogisi dutatu dutoboye turimo imyenge myinshi dusa n'umweru, inyuma hari imodoka ihaparitse y'umweru y'umukara.

Intebe ziri muri salon bicaraho, kandi ziriho imisego yanditseho "Rove Dis." hirya hari intebe y'umukara, hari n'imashini iri kuri iyo ntebe. hepfo, hari igikombe bafashe nk'gihembo.

Pisine aho abantu bogera, hari imutaka harimo n'intebe n'ameza, hirya etage nini cyane iteye amarangi y'umweru, munsi muri etage hari abantu bayicayemo hari n'imitaka irimo.

pisine nini y'ubwogero, hariho imitaka, harimo n'udutebe hateretseho ameza hirya hari utu jaride, harimo n'ibiti hari abantu kuri pisine baje koga, hari n'aho amazi ari guturuka hejuru ya pisine.

Inzu ya etaje nini cyane irimo amadirishya menshi cyane iteye amarange y'umuhondo hari idarapo rinini rya Rwanda hari n'irindi darapo rinini hafi y'aho hari akamashini gashyushya amazi hejuru handitseho Fotipowenti.

Ibikoresho byo mu nzu harimo udutebe dutoya bicaraho, hari n'ameza y'umweru maremare, hari n'udutebe twa parasitike tw'umukara, hari n'intebe zirimo imisego y'umweru ziteye irangi ry'umukara, hirya hari igikuta kinini cyubakishije amatafari ahiye, hejuru y'igikuta hariho icyuma.

Inzu ya etaje nini cyane, iteye amarangi atukura, hasi hari ibaraza, mu mbuga harimo pisine aho abantu bogera, irimo amazi, hari n'ibyuma abantu bazamukamo, bavuye koga.

Etaje nini, ifite pisine yo kogeramo, hirya hari umutaka w'umutuku, hari n'intebe zihateye n'ameza, hino hari undi mutaka uhateye, hari ameza n'izindi ntebe zizengurutse ayo meza.

Igipangu kinini cyane gifunguye, hari jaride zirimo ibiti hirya hari etaje nini cyane isakaje amabati atukura, iteye irangi rijya gusa n'umuhondo n'inzugi n'amadirisha ajya gusa n'umuhondo, hejuru hariho ibindi byatsi byinshi.

Ikizu kinini kirimo amatara manini, harimo ahantu hateye irangi ry'umuhondo, harimo ivaze zirimo itara, akayira kanini cyane, hariho ibyuma binini cyane bizengurutse hejuru.

Abantu bicaye imbere y'imashini bari kuzikoresha bambaye udupfukamunwa hari n'abandi bicaye imbere ku zindi ntebe barimo kuganira nabo harimo umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara hafi aho harapavomye hirya handitse amuleti.

Inzu nini ikoramo salama handitse receptionist ishingane nabawe muri salavia hari televiziyo hari umugabo ufite dokima urimo gusohoka yambaye ishati y'amaboko maremare hari nundi uri gukoresha terefone wambaye ishati y'ubururu.

Inzu nini iriho amarangi y'umweru, ku rugi hariho ibirangantego bya Radiyanti Inshuwarensi Kampani, hejuru handitseho makumyabiri mirongo itanu, hasi inzu ipavomesheje irangi ry'umutuku.

Abaturage bahagaze ahantu harimo abagabo n'abagore bari ku murongo, hirya hari televiziyo, abaturage hari abahagaze bose bafite telefoni, hari uwishingikirije ameza ariho amazi, hari ikirango cya Equity bank.

Urubuga rwa eco bank hashushanyijeho umukobwa uri guseka ufite telefoni mu ntoki nu dushakoshi mu ntoki hariho n'inkweto handitse a better way to shop online ecobank visa prepaid and virtuar card.

Inzu nini ya etaje hariho ikirango cyanditseho NCBA murakoze neza, murakaza neza muri NCBA Rwanda puraza hariho amarangi y'umweru, ikizu kirakinguye.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda harimo inini ni ntoya hepfo hari amazu asakaje amabati y'umutuku ateye amarangi y'umweru n'inzu iteye amarangi y'umuhondo muri kaburimbo harimo amatara yo ku muhanda.

Isoko ririmo abantu, barimo kugenda umumama urimo kuza, n'abandi barimo bazamuka hari umutaka wa Tigo.

Isoko ry'ibicuruzwa, harimo ibishyimbo, amashaza, ibijumba, harimo umuntu uri gucuruza, harimo udutageri twinshi tugiye dutandukanye tugerekeranye, ruguru harimo n'undi muzungu, urimo gucuruza.

Isoko ry'ibiribwa harimo ibitunguru, karoti, imboga hirya harimo abantu bicaye hejuru hari indobo, isoko risakaje ibyuma n'amabati manini asa n'umweru.

Isoko ry'imbuto, harimo ibinyomoro, amaronje, indimu, amapera, inanasi, imineke, wotamero, amapapayi, ibihaza, hicayemo umugore witeze ibitamb...

Isoko ry'ibicuruzwa harimo ibishyimbo bisutse ku nkoko, hari n'ibindi bisutse ku meza, harimo ibase y'ubururu, harimo ibishyimbo mu ibase, hirya hari umumama uhicaye wambaye witeze agatambaro yambaye umupira, hirya hari n'undi mumama uri konsa umwana, hejuru hamanitse ibaga, hirya hari ku meza hariho ibitoki.

Umumama w'umusiramu uri guterura umufuka urimo ibirayi n'undi mama uri guhereza umusore ibirayi mu gafuka, umusore yambaye ikote n'ipantaro, hirya hari undi uri kuzamuka agana ku nzu nini.

Abantu bari mu isoko ricuruza imyenda barimo kugenda, abandi barimo bicaye bari kudoda bafite amamashini adoda n'imyenda imanitse hejuru ku biti, hirya hari icyapa cya emuti

Isoko ry'imbuto, harimo umugabo uri gucuruza inyanya n'umugore urimo kugura inyanya, yiteze mu mutwe, hirya hari ibiti byubakishije muri iryo soko.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto harimo ibitoki hakabamo karoti, ibitunguru, amashu hakabamo n'abantu mu isoko; isoko ryubakishije ibyuma ndetse harimo n'inyanya n'ibyapa hejuru kubyyma.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto, harimo abamama bicaye ku ntebe bari gucuruza ibitunguru, inyanya, pavuro, sereri, birambitse hejuru ku meza.

Abantu bahagaze mu muhanda w'igitaka, bambaye umupira utukura n'igitenge n'umugabo wambaye umupira, isengeri y'umuhondo n'ipantaro y'umukara bari munsi y'inzu, hirya yaho hari inzu ya etaje nini.

Isoko ry'imyenda ryubakishije ibiti, risakaje amabati, harimo imyenda y'abana, harimo abantu bari kugenda muri iryo soko, harimo umugore wicaye ku ntebe.

Inzu irimo umugabo wambaye inkweto zitukura, ipantaro y'ikoboyo n'umupira w'uburongo, afashe umufuniko w'indobo, hasi hateretse indobo irimo ibiraha, hari umugore uteruye umwana.

Iduka rinini ririmo umugabo w'umwirabura, wambaye ishati y'amaboko maremare ijya gusa n'umweru, yifashe ku munwa hejuru hari ibitenge byinshi bimanitse, harimo ibijya gusa n'umukara, ibijya gusa n'umutuku ndetse n'ibindi birimo amoko menshi atandukanye.

Akazu kubakishije imbaho harimo abantu batatu, abagabo babiri n'umugore, umugabo umwe yambaye agapfukamunwa bari ku mashini, hejuru kuri ako kazu hariho ibyapa cyanditse Equity onulayini savise latada irembo.

Mo mbere harimo amakaro, hasi hari icyapa cya Airtel, hirya hari ikindi cyapa cya Airtel, cyanditseho Airtel, gishushanyijeho abakobwa, hari akabogisi na ko gafite ibimenyetso bya Airtel, mo imbere harimo telefone.

Abantu bari ahantu hapavomye hari abakobwa bambaye imipira y'umuhondo ya MTN, imbere yabo hari icyapa kinini cya MTN, hirya hari undi mukobwa ufite mikoro, hari ikindi cyapa cyanditseho izihirwe, hari abagabo babiri bari kubyina, imbere hari na bafure imbere yabo.

Akazu ka eyateri gateye amarangi atukura hariho icyapa cyanditseho eyateri mani hariho diri akanyeri kabiri kabiri urwego hepfo hari ibyatsi hirya hari icupa ry'amazi.

Umusore wambaye agapira k'umweru uhetse igikapu wambaye n'ikoboyi y'umukara. Ari munsi, y'akazu, ka emutiyene, mo imbere harimo umwajenti, hari nundi muntu wicaye uri hirya yaho, wambaye ishati, ijya gusa n'umutuku.

Inzu ya farumasi irimo umuzungu wambaye umupira wa Mtn afite icyapa cya momo pey handitseho kanda akanyenyeri ijana namirongo inane na kabiri akanyeri gatatu urwego kode momo pay zeru zeru gatatu gatandatu phalmacule Ltd, harimo abandi bagabo n' numukobwa wambaye imyenda ya Mtn.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara, imbere ye hari ameza ateye irangi ry'umweru, harambitseho telefone, harambitseho na kava ya rinete. Inyuma hari umuti wo gukaraba intoki wica udukoko, hari icyapa cya momo pay, cyanditsho pay with MTN momo here.

Abagore babiri bambaye umupira ya MTN umwe yambaye ikoboye, imbere yabo hari icyapa cyanditseho kora simu swapu ku buntu uryoherwe na wani GB imara iminsi irindwi, inyuma hasi hari ari ameza arambitseho amacupa y'amazi.

Abakobwa babiri bambaye imipira ya MTN, handitseho MTN, imbere yabo hari ibikarito, hari n'icyapa cyanditse MTN, hari ikintu icyapa cyanditseho izihirwe, hari bafure nini imanitse hari abagabo babiri bari kubyina, hari n'umukobwa ufite mikoro mu ntoki.

Icyapa cyanditseho momo, emutiyeni momo, asebuti hiya, Fositie Faransisi hariho Kode mirongo inani na gatatu mirongo icyenda na gatanu mirongo ine na kane, icyapa gisa n'umuhondo giteretse ku kantu kameze nka kameza.

Abantu bahagaze hafi y'umutaka usa nk'umuhondo harimo abagabo nabakobwa, abakobwa barimo bambaye amakanzu y'umukara, n'abagabo harimo uwambaye ishati yumweru ufite igitabo mu ntoki, n'umusaza wambaye ikote n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara.

Kaburimbo irimo abantu batatu barimo kuza, hari n'itara ku muhanda, inyuma yabo hari ibiti biriho indabo, hepfo yaho hari umuntu wambaye ishati y'ubururu, yambaye na kasike, yishingikirije kuri moto, hirya hari icyapa cyanditseho Bugarama.

Igipangu harimo moto iparitse hariho kasike n'imbere hariho icyapa cyanditseho ihaha tekinoroji, hari ikirangantego cyanditseho hecipi ndetse muri icyo gipangu harimo imodoka n'indi moto, harimo ururabo.

Umuntu uri kuri moto ya gahene yanditseho safi, inyuma ahetse ikibogisi giteye irange ry'icyatsi hariho umuntu uri kwiruka, nawe yambaye umupira w'icyatsi na kasike irambitse ku kuguru isa n'icyatsi yicaye kuri moto.

Umugore w'umwirabura, ari munzu hamwe n'umugabo w'umuzungu, wambaye ishati y'amaboko, ipantaro y'umukara n'isaha ku kaboko, hepfo hari televiziyo nini cyane, hari n'intebe zifite umwenda w'umweru.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ufashe kumeza n'umugore w'umwirabura ufashe kumeza, hafi aho hari intebe z'umukara, hirya hari akabati kanini karimo ibikoresho byo mu rugo.

Akayira gapavomye hafi yaho hari utujaride turimo ibiti, hari iyindi etage yubakishije amatafari ahiye harimo n'utudirishya duteye amarange y'umweru, inyuma hari urukuta rwubakishije amatafari, hateye n'amarange y'umweru.

Igiti kinini cyane giteye ahantu mo 'imbere harimo inzu yubakishije amatafari ahiye inyuma hari igikuta cyubakishije ibyuma hirya ya etage nini iteye amarangi y'umweru hejuru yanditseho hiya wati dorazi 1500 mamfu geti yu ini Kigali.

Inzu nini isakaje amabati y'umutuku hariho parafo y'umweru, hari urukuta runini cyane ruteye irangi rijya gusa n'umutuku, hariho n'ibyuma, ku nzu hariho irangi ry'umweru yubakisha amatafari ahiye.

Inzu ya etaje irimo amasikariya azamuka hariho ibyuma hariho n'ibiti inzu iteye amarangi y'umweru, harimo n'amadirishya hejuru hariho disi wati amadorari ibihumbi bibiri geti veri ini Kigali Rwanda hasi hariho nimero.

Imbuga irimo amapave hari jaride irimo pasiparumu hari n'ururabo rurerure harimo inzu nini ya kadasitara isakaje amabati atukura iteye amarangi ajyagusa n'umukara hariho ibaraza rifite ibyuma.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Inzu iri ahantu hari amapave, ku mabati hari irangi ry'ubururu, hariho parafo, ku maderishya hateyeho amarangi y'ubururu, hariho ibyuma ku ibaraza, inzugi ziteye amarangi y'umukara inkingi ziteye irangi ry'umweru hepfo hari iyindi nzu.

Inzu nini cyane ya cadasiteri iteye amarangi y'umweru kunkuta ku madirishya naho hariho amarangi y'umweru hariho ibaraza ryibyuma hasi mu mbuga hari ama pave ndetse risakaje amabati ajya gusana'umukara hasananitseho for rent kigali kanombe four betrooms and three

Inzu nini ya etaje igeretse gatatu, hasi hari parikingi haparitsemo imodoka y'umukara n'indi modoka y'umweru, hakaba n'indi modoka y'umweru iparitsemo, mo imbere mu muryango wo hasi hariho abantu bicaye, muri furo ya kabiri hari ibipupe biriho imyenda.

Iduka ririmo abantu benshi abagore n'umugabo uri kugura imyenda, harimo amakote menshi, n'amapantaro menshi, harimo amanitse hejuru ku twuma, hari n'arambitse hejuru hasi ku meza.

Abantu benshi bari mu isoko, harimo umugore uhetse igikapu, yambaye imyenda y'umuhondo, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Hepfo hari ibipupe byamamaza byambaye ikote hariho na karuvati. Hari n'abandi bamama n'abapapa barimo guhaha.

Sitoke nini cyane irimo umugabo ufite akantu bacunga yambaye agapira k'umukara n'ikoboyi n'inkweto y'umukara hari mu dutajeri twinshi cyane turimo ubwoko bwinshi bw'inzoga.

Inzu irimo supamaketi, harimo udutajeri twinshi, harimo n'abantu benshi, harimo abagore n'umugabo wamabaye umupira w'umweru baje guhaha, imbere hari ameza ariho ibicuruzwa, harimo uducupa ndetse n'utundi tubogisi tunini duhari.

Inzu y’amakaro, imbere ku nkuta hariho amarangi y'umweru, hariho ibipupe byamamaza biriho imyenda, hari abantu bari kugenda, umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, umuhungu uhagaze wambaye agapira gasa n'umuhondo, hepfo na ruguru hari imyenda ihamanitse, hariho ibishushanyo.

Supermarket nini irimo umugabo wambaye ikote ry'umukara n'inkweto z'umukara, hariho udutajeri hasi turimo amazi hejuru hariho amata, hejuru hari utundi tubogisi tw'amata y'inyange.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ijya gusa n'umweru, inkweto y'umukara hari n'undi musore uhagaze wambaye inkweto y'umweru, ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, bahagaze imbere, imbere mu gataje harimo abacuruzi bari kuvugana n'abakiriya.

supamaketi nini cyane yaririmo udutajeri twinshi cyane imbere hari imashini nini yarambitse hejuru kumeza, hejuru hari parafu hirya hari indi mashini i ibara amafaranga hari umuntu uhagaze mu iduka.

Supamaketi nini cyane, irimo udutajeri, tujyiye dutandukanye, hariho tumwe tw'uruziga turimo amaji menshi, hari n'utundi dutambitse harimo amacupa menshi y'inzoga, aya mitsingi, n'aya turubo harimo na za fanta.

Iduka ririmo umugore wambaye umupira w'umukara, hirya hari n'undi wambaye umupira w'umweru, bafite bari mu myenda hejuru hamanitse imyenda myinshi cyane y'abagore, n'iy'abana, hasi hari ameza irambitseho n'indi myenda myinshi cyane y'abagore n'abana, iyindi hari utwuma imanitseho.

Supamaketi nini irimo abagore babiri n'umugabo umwe, wambaye agapira n'ipantaro, umwe urimo umugore wambaye imyenda itukura witeze n'undi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro ikoboyi, harimo udutajeri tunini turimo ibicuruzwa.

Abayobozi bicaye imbere bambaye amakote harimo umugore wambaye imyenda isa n'umuhondo ufashe mikoro ari imbere yabo, hari icyapa cyanditseho pasono penshoni shema deyi kani.

Abasaza bambaye ingofero z'umukara n'amakoti y'umweru, imbere bambaye amashati y'umweru amapantaro y'umukara, abamama bafite amakaye arimo impapuro, abamama bambaye ibitenge n'undi ufite witeze mu mutwe.

Urubuga rwanditseho: "Ejo heza uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo, " hariho umusaza wambaye umwitero n'ingofero, hariho n'umukecuru wambaye umukenyero, yambaye n'isengeri y'ubururu.

Urubuga rwa RSSB, Rwanda sosho sekiriti bodi, handitseho awaherifu awafiyuca, ejo heza, ubwiteganyirize bw'izabukuru mu nshingano za RSSB.

Umugore n'umugabo bambaye udupira tw'umweru n'amapantaro y'umukara, imbere yabo hari ameza ariho ingofero, intebe z'umukara, rukuta rw'umweru, icyapa cyanditseho Arayesesi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye ikote risa n'umutuku, afashe sheke nini cyane, yanditseho RSSB ejo heza, yishyurwa Ruzindana Fabien ya miliyoni n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu.

Abaturage bari mu nama hari umuntu ufite mikoro wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi afashe ingofero mu ntoki, hepfo hari icyapa cyanditseho araesiesibi awa helifu awa fiyuca ejo heza. Hirya hari abandi bantu bahagaze, bambaye imyenda y'umweru hari n'ibizu yubakishije amatafari a.

Umuganga wicaye mu ofisi uri kwandika mu ikayi ya rojisitire, imbere ye hari ameza, afashe urupapuro mu ntoki hari umurwayi w'umugore uje kwivuza, wambaye agapira gatukura, ufite ikarita ya Mituweli mu ntoki.

Supamaketi nini cyane irimo udutajeri twishi tugiye dutandukanye, hasi hateretse amacupa arimo inzoga y'umutuku n'iz'umukara, hejuru hatari anvelope zihari. Hejuru hari ayandi macupa matoya arimo amavuta, hejuru hari ji zo mu dukombe.

Supamaketi nini irimo amakarito menshi harimo amabesi hakabamo n'amasabune, harimo imigati, harimo inzoka, harimo udutageri tundi turimo amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye.

Inzu nini harimo ahanditseho Jamusoni, imbere hari ahantu harimo inzoka za Jamusoni; harimo udutajeri tunini, hari inzoga z'umukara, iz'umutuku ndetse n'izindi ziri mu mabara atandukanye.

Supa maketi nini cyane irimo udushashi tw'amata y'Inyange, harimo biswi harimo umugore wambaye umupira utukura afite agatebe bahahiramo, harimo gucagura ibyo aratwara hari n'umugabo ufite icupa.

Inzu irimo ibicuruzwa by'imbuto, harimo imineke ihiye, harimo inanasi zirambitse hejuru, harimo ibishyimbo, hariho na soya, hirya hariho amata y'inyange ari mu dushashi twinshi turambitse hejuru mu dutajeri.